Urujya n'uruza rw'abantu abagore, abagabo bahagaze imbere y'inyubako ya Leta, imbere y'iyo nyubako hari imodoka y'umukara ndetse iyo nyubako bigaragara ko ari mu nyubako y'Akarere.